Abantu bagera muri batatu bahuriye hamwe mu murima w'umuceri aho bari kugenda batera umuti uwo muceri kugira ngo umuceri utazaza gufatwa n'udukoko tukawumunga tugatuma utera neza.

Umugabo uri kugenda mu murima w'ibigori, akaba ahetse ipombo yambaye uturindantoki, akaba ari kugenda abitera umuti kugira ngo abashe guhangana na mpongwa.

Umugabo wambaye ikote ry'umweru n'agapfukamunwa k'umukara, akaba afite umupira aho ari kugenda atera umuti ibihingwa bye by'imbuto yahinze kugira ngo yice udukoko.

Umugabo uhetse ipombo, akaba ari mu murima we w'umuceri, aho ari kugenda awutera imiti kugira ngo arebe ko wazamuteza imbere maze akabona umusaruro uhagije nturumbe.

Umugabo uhetse ipombo yambaye n'igisarubeti, yambaye n'agapfukamunwa, aho ari kugenda atera imiti igiye itandukanye ku bihingwa bye bizwi nk'ibigori kugira ngo arebe ko yaziteza imbere nibyera.

Umugabo wambaye ingofero n'amadarubindi, akaba yambaye n'agapfukamunwa, afite igikoresho cyabugenewe, ari kugenda atera imiti ibihingwa bye kugira ngo abyongere intungamubiri ndetse n'ifumbire, bizabashe kumuteza imbere.

Umuntu uri kugenda mu murima we w'amashu ari kugenda ayatera umuti kugira ngo ayuhire atazaza kugira ikibazo, uwo muntu rero akaba yambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro y'icyatsi.

Umugore wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara, akaba ahetse ipombo mu mugongo. Ari mu murima we w'intoryi aho ari kugenda azuhira kugira ngo zitazagira ikibazo zikicwa n'izuba maze zikarumba.

Umugore uri mu murima we w'ibigori, akaba yambaye agashati k'umutuku akenyeye igitenge, atereye ipombo ku rutugu, aho ari kugenda atera umuti ibigori bye kugira ngo biticwa na nkongwa.

inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba isakaje amabati ndetse ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse hakaba harimo ibyuma byinshi bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'amafi ni kimwe mu bintu bikomeje gutera imbere cyane kuko biba byiza iyo umuntu woroye amafi agiye kuyaroba amaze gukura nibwo amuha umusaruro ufatika cyane.

Uburobyi bukomeje gutera imbere cyane aho mu cyuzi hasigaye harorerwamo amafi menshi, bakayagaburira ibyo kurya hanyuma yamara gukura bakajya kuyaroba, bakavanamo amafi bakayagurisha.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko agiye atandukanye, akaba akora umwuga w'uburobyi ari kugenda akura amafi yarobye mu nshundura, aho afashe abiri ari kwerekana ko azi kurobara.

Umugabo wambaye isarubeti ya kaki n'inkweto za bodaboda z'umuhondo, akaba ari ahantu ari gukora ibijyanye n'ubuhinzi cyangwa gutunganya ibihingwa bikomoka ku buhinzi bw'indabyo.

Icyuzi kirimo amazi ariko asa nabi, kikaba ari icyuzi gikoreshwa n'abarobyi aho bagenda bashyiramo ibyo kurya bagaburira amafi, yamara gukura bakaza bakayaroba kugira ngo barebe ko bakwiteza imbere.

Umugore wambaye agapira k'umuhondo akaba ateze n'igitambaro cy'umutuku mu mutwe, aho ari kugenda mu murima w'umuceri bigaragara ko ari kugenda areba uko umeze kandi ariko arinda inyoni.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abantu basigaye bahinga ikawa basigaye babona amafaranga menshi cyane yabateza imbere maze bagasezerera ubukene. Ni byiza cyane ko nawe wakwitabira ubuhinzi bw'ikawa.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa b'ingirakamaro cyane kuko biteza imbere umuhinzi wabyo. Hakurya y'ikawa hari imirima iciyemo amaterasi y'indinganire mu rwego rwo kurwanya isuri.

Umugore uri kugenda muri pipinyeri, ikaba iteyemo imbuto zizwi nk'icyayi, aho agiye kureba niba zaba zeze cyangwa a se cyeze ngo agisorome hanyuma akigemure ku kirogotero.

Ahantu mu Karere ka Nyaruguru hakunze gukorerwa ibikorwa by'ubuhinzi bw'icyayi aho haba hari inzu yabugenewe bakusanyirizamo icyo cyayi imodoka ikaza kugitwara, aho iyo nzu izwi nk'ikirogotero.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo ab'igitsina gorem, bakaba bari mu murima w'ikawa bari kugenda bayisarura. Bari gusarura ikawa itukuye, kugira ngo bayigemure ku isoko babone amafaranga.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane, aho umunhinzi w'ikawa iyo yahinze ikazana imbuto zigatukura atangira kubara amafaranga, n'iyi kawa rero imbuto ziratukuye nyirazo arasabwa kuzisoroma akazigemura.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu murima w'icyayi aho bari kugenda bagisoroma, icyayi rero ni bumwe mu buhinzi bugezweho kandi busigaye bwarateye imbere mu Rwanda kuko bitanga amafaranga kuri bene byo.

Umugore n'umugabo bari mu murima w'ikawa aho bari kugenda bayisoroma bagira ngo barebe ko yabateza imbere, hanyuma bagasezera ku bukene dore ko ubuhinzi bw'ikawa ari bumwe mu buhinzi bwungura bene bwo.

Umugore uri kugenda yikoreye ibase irimo ikawa amaze gusarura, iyo kawa ikaba itari yatukura, aragiye ngo ayihubike maze mu minsi mike izabe yatuguye maze abone kuyigurisha.

Umugore wambaye agapira kari mu mabara agiye atandukanye y'umukara ndetse n'umuhondo, akaba yambaye ijipo, ari mu murima we w'ikawa aho ari kugenda azicira ndetse azitunganya kugira ngo zimere neza.

Ahantu hahinzwe amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, ibihingwa ngengabukungu bitanga amafaranga aho harimo ibisheke, ikawa, itabi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'icyayi.

Agakangara karimo ikawa bamaze gusarura bigaragara ko imaze gutukura nyirayo yiteguye kuba yayijyana ku isoko maze bakamuha amafaranga, akareba uburyo ki yatera imbere.

Mu Rwanda hari amaduka agiye atandukanye acuruza imiti y'amatungongo, aho muri ayo maduka haba harimo imiti iri mu ducupa, utwo ducupa rero tuba dushushanyijeho itungo uwo muti uvura.

Mu maduka acuruza imiti y'ibijyanye n'amatungo hagomba kuba hakoramo umuntu wabyigiye, aho umuntu wese ugiye gushaka umuti amubwira uko itungo rirwaye maze na we agahita amenya umuti agomba kumuha.

Ahantu bacuruza imiti igiye itandukanye ivura amatungo, haba hari udukarito dushushanyijeho amagambo, ndetse n'amatungo uwo muti uvura ndetse n'ingano baba bagomba guha iryo tungo.

Mu maduka acuruza ibijyanye n'imiti y'amatungo haba harimo udukarito tugiye dutandukanye, aho buri gakarito kaba karimo umuti runaka wifashishwa bari kuvura amatungo runaka kugira ngo ayo matungo abashe gukira vuba hanyuma amererwe neza cyane.

Hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwita ku buvuzi bw'amatungo, cyane cyane nk'iki gikoresho kiri mu ibara ry'umutuku n'umukara, aho iki ngiki bakifashisha bari gukura amahembe y'inka.

Mu maduka agiye atandukanye, haba harimo aho bacuruza imiti y'amatungo. Aho iyo miti iba iri mu tubido ndetse n'udukarito ku buryo iyo itungo ryawe ryarwaye, uhagana ukababwira uko rirwaye bakaguha imiti.

Mu maduka acuruza ibijyanye n'imiti y'amatungo haba harimo amoko agiye atandukanye y'imiti, hari iba ipfunyitse mu mashashi y'ubururu ndetse n'umuhondo, aho umuntu iyo ayikeneye aza akabwira veterineri ubundi akayimuha.

Hari amoko agiye atandukanye y'imiti bifashisha bavura amatungo ndetse n'ibikoresho, hano rero hari icyuma bifashisha bari gukura amahembe y'inka zikiri ntoya kugira ngo bizabyibuhe.

Agacupa k'umweru kariho icyapa cy'umukara, cyanditseho amagambo agiye atandukanye, mu nyuguti ziri mu mabara y'umweru, aho agiye asobanuye ibintu byinshi kandi na byo bigiye bitandukanye.

Amaduka agiye atandukanye acuruza imiti y'amatungo, haba hagiye harimo udukarito twanditseho amagambo runaka ariko tuba turimo umuti uvura amatungo kandi iryo tungo uvura riba rishushanyijeho.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, akaba ari mu murima w'ibigori, ari kugendamo aho ari kugenda areba ko byeze ngo arebe igihe yazapanga, maze akaza akabisarura.

Ubuhinzi bwa wotameloni nabwo bwateye imbere, uyu mugore rero afashe wotameloni yayimanitse ari kwerekana ko nazo wazihinze zaguteza imbere, ari kumwe n'abandi bagabo bari kugenda basarura izo wotameloni.

Muri pipinyeri haba hagiye harimo amoko agiye atandukanye y'imbuto baba barindaje, izi rero tubona ni imbuto z'imyembe, aho iyo zimaze gukura, abantu bagenda bazifata, bakajya kuzitera.

Abantu bari mu gikorwa cy'ubuhinzi aho bari kugenda babagarira imyaka yabo, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, aho bari kugenda bayitaho kugira ngo izabashe kubateza imbere maze na bo basezerere ubukene.

Umurima usaruwemo ibihingwa bigiye bitandukanye by'umwihariko ibizwi nk'ibitunguru, aho ibitunguru ari ingirakamaro cyane kuko bikunze kubyazwa umusaruro ndetse bikanifashishwa bakaranga.

Umurima uhinze mu buryo bw'imirongo, aho nyiri uyu murima ashaka guteramo amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto, ku buryo nizera zizamufasha gusezerera imirire mibi ndetse n'ubukene.

Ahantu hari ubutaka bujya gusa umukara, ubu butaka rero buba ari bwiza kuko iyo ubuhinzeho ibihingwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko nk'urutoki ,imyumbati, ibirayi, ibijumba, bihera neza cyane.

Ahantu hari ubutaka bugari buteyemo icyayi bukaba buboneka mu ntara zigiye zikonja cyane nk'intara y'Iburengerazuba nko mu turere twa Ngororero, Nyabihu ndetse na Nyaruguru mu Majyepfo.

Amoko agiye atandukanye y'imigozi, ikaba ihingwa ikavamo ibijumba, ibijumba rero ni ingirakamaro cyane kuko ahantu mu cyaro ndetse no mu mujyi, bakunda kubikoresha nk'ifunguro ryabo rya buri munsi.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibihingwa. Ibihingwa rero ugasanga harimo bimwe bizana amafaranga. Ubuhinzi rero bw'ibishyimbo ni ingirakamaro cyane kuko ibishyimbo iyo ubihinze ukabyitaho bibasha kuguha umusaruro.

Mu mirima igiye itandukanye ahantu mu byaro, haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa. Ubuhinzi rero bw'imyumbati, bukomeje gutera imbere kuko imyumbati itanga umusaruro utubutse.

Mu iduka ahacuruzwa ibyokurya bigiye bitandukanye, haba harimo amabara menshi agiye atandukanye, biba bipfunyitse mu dushashi ndetse uraza ukavuga icyo ushaka bakakikurebera hanyuma ukishyura.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari mu murima we yahinzemo imbuto, akaba ari kugenda awusura ngo arebe uko imbuto zifashe kugira ngo arebe niba zizamuha umusaruro, akabasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'amaronji nabwo ni ingirakamaro cyane kuko iyo umuntu ayaguze abona imbuto nziza cyane zimufasha maze akagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ikibuga cyiza cyane aho kirimo ibyatsi bikiri bitoya ndetse hashinzemo n'icyuma kimwe. Hakaba hanyuzeho umuhanda w'igitaka ariko mwiza cyane. Hakurya ibicu birasa umweru ndetse n'ubururu.

Ahantu mu cyaro mu gishanga, aho bahingamo umuceri muri icyo gishanga ndetse uwo muceri, iyo ugeze igihe cyo kwera, hazamo abantu baza kuwurinda inyoni kugira ngo inyoni zitaza kuwona.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane, aho umuhinzi wayo asigaye ayisarura akajya kuyigurisha, hanyuma bakamuha amafaranga menshi cyane, bagashyiramo na za nkunganire.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye ariko hateyemo n'ibigori bibiri, ibi bigori bikaba biteye mu mwobo umwe bikaba kandi byeze, birumye ku buryo nyirabyo yabisarura akajya kubihunika.

Ahantu hari ubutaka bugari bigaragara ko ari ubutaka bwahariwe guhingwa ariko bukaba nta myaka iteyemo bigaragara ko ubu butaka bukiri butoya, hakaba hateyemo icyuma kimwe ndetse haciyeho n'umuhanda w'igitaka.

Ubuhinzi bw'ibitunguru bukomeje gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye ahinga ibitunguru, yajya gusarura agasanga byarakuze cyane, akabigurisha ku biro hanyuma akunguka cyane.

Ni mu ishyamba, aho harimo umugezi utemba ufite imbaraga kandi hakaba hateyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera nk'ibishihe, harimo n'ibiti birebire, bizana umuyaga n'amahumbezi.

Mu ishyamba haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, haba harimo ibiti bya kimeza ndetse n'ibiti by'ibiterano, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane kuko bikurura imvura, bikazana n'umwuka mwiza uyu duhumeka.

Ahantu mu giturage haba hari ahantu henshi hagiye hatandukanye mu mashyamba, aho haba harimo ibihingwa bigiye bitandukanye ariko haba harimo n'urutoki ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ishyamba riteye haruguru y'umuhanda ndetse uwo muhanda ukaba uri kunyuramo abantu benshi cyane bagiye batandukanye, hepfo y'uwo muhanda hari icyayi gikunze guhingwa mu turere dukonja cyane.

Imisozi myinshi igiye itandukanye ariko iyo misozi yose ikaba iteyeho amashyamba ndetse n'ibiti birebire kandi bikurura imvura ndetse bituma tubona umwuka mwiza uyu duhumeka.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera ndetse akaba ari imisozi ibiri ihuye, hagati yayo hakaba hacamo umugezi w'amazi. Iri shyamba rero ni ryiza cyane ku buryo ribereye ijisho.

Ahantu hari amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, yaba ibyatewe ndetse n'ibiti bya kimeza. Ibi biti rero bikaba bibasha gukurura imvura, ndetse no kuduha umwuka mwiza duhumeka.

Ahantu mu gishanga hakunze kuba hari imigezi itwara amazi kandi ayo mazi akaba ari magari cyane, uyu mugezi rero n'umugezi w'Akagera, utandukanya Igihugu cy'u Rwanda ndetse na Tanzaniya.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bicaye ahantu mu ishyamba, aho bigaragara ko bari mu nama. Imbere yabo hakaba hari umugore ufashe rondereza, abereka ko ari uburyo bwiza bwo kubungabunga ibidukikije.

Umuhanda wa kaburimbo unyuze hagati y'imisozi igiye itandukanye, ruguru yaho hakaba hateye urutoki naho hakurya hakaba hari umusozi munini cyane uteyeho ishyamba.

Ni ahantu mu ishyamba aho harimo amoko agiye atandukanye y'inka, izi nka rero zikaba ari amatungo meza cyane aho ziba ziri kurisha, zigurisha mu ishyamba.

U Rwanda rufite imisozi myinshi igiye itandukanye kandi myiza, aho umusozi hakunze kuba hari amoko agiye atandukanye y'ibiti, ibi biti bikaba ari ingirakamaro cyane kubera ko bizana umuyaga n'amahumbezi.

Mu masoko agiye atandukanye haba hagiye harimo amoko y'imbuto menshi agiye atandukanye aho umuntu wese ubikeneye anyarukira yo akavuga ubwoko akeneye bakabumuha, haba harimo inyanya, voka ndetse n'izindi.

Umuntu uri mu murima mugari uteyemo indabyo aho izi ndabyo ziri mu mabara menshi agiye atandukanye arizo umuhondo, umutuku, iroze, ubururu ndetse n'andi mabara menshi cyane agiye atandukanye.

Abantu bateraniye hamwe, bakaba bari ahantu hahariwe guhingwa imbuto ahazwi nko muri pipinyeri, bafite amasuka mu ntoki aho bari bari gukora none uyu mugore akaba aje kubaganiriza ababwira uburyo bwiza bwo kubikora.

Umugore uri mu murima uhinzemo urusenda akaba ari kugenda arusarura kugira ngo arujyane ku isoko rumuhe umusaruro kuko na rwo rusigaye bigezweho muri iki gihe ari ingirakamaro cyane.

Ubuhinzi bw'inyanya ndetse n'indabyo, ni bumwe mu buhinzi bumaze gutera imbere cyane, aha rero turahabona urunyanya ndetse n'ibindi bihingwa bizwi nka pome biri mu biti.

Amabase arimo amoko menshi cyane agiye atandukanye y'indabyo kandi izo ndabyo zikaba zibereye amaso, ziri mu mabara menshi cyane agiye atandukanye nk'umuhondo, umutuku, iroze, icyatsi n'ay'ahandi.

Ubuhinzi bw'inyanya bukomeje gutera imbere cyane, kuko inyanya ni ingirakamaro cyane. Zikunze kuba ziri gucururizwa ku isoko ziri kumwe n'ibigori, aho ibi bigori na byo babirisha inyanya.

Abantu benshi bahuriye hamwe higanjemo abagore ndetse n'abakobwa, aho bari mu murima uhinzwemo ibihwagari, bikaba bitari byera ariko bimwe muri byo byaratangiye kuzana indabyo z'umuhondo.

Abantu bagera kuri batatu bahagaze mu murima w'amashu, harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, bakaba bafite amashu manini mu ntoki bari kwerekana ukuntu ubuhinzi bwabo bwatanze umusaruro ufatika.

Ubuhinzi bw'indabyo nabwo bumaze gutera imbere cyane, kuko abantu bazihinze zisigaye zibaha umusaruro cyane, aho bazisarura bakazishyira mu nganda zabugenewe zikavamo parufe.

Umuntu uri gukoresha uburyo bwo kuhira bugezweho, akoresheje umurasire, aho kuri uyu murasire izuba rikubitaho hanyuma rigashitura amazi akagenda mu murima akabasha kuhira nta mbaraga bimusabye, ahubwo akoresheje tekinologiya.

Umuntu wahinze imbuto muri pepenyeri none izuba rikaba ryavuye akaba ari gukoresha uburyo bwo kuhira akoresheje umupira aho ari kugenda azinyanyagizaho amazi kugira ngo zitagira ikibazo.

Ikoranabuhanga ryageze mu Rwanda aho haba hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashisha bari kuhira nta muntu ubikoresheje, aho bigenda byikaraga hanyuma imyaka yose amazi akayigeraho.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'imbuto aho ba nyirazo iyo igihe cy'izuba kigeze, bifashisha ibikoresho byabugenewe bizwi nk'imipira bakaza kujya baruhira ibihingwa byabo kugira ngo bizabashe kwe neza bibateze imbere.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane, aho hano hari umurima uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye bizwi nk'umuceri ariko ukaba ukiri muto, uteye ku muronko numara gufata bazagenda bawukura.

Hari uburyo bwinshi bugiye butandukanye bwo kuhira, aho umuntu yuhira imyaka ye, ikaba yamuteza imbere, ubwo rero kuhira ni ingirakamaro, ku buryo no mu gihe cy'impeshyi, ugenda ukuhira imyaka yawe ikera.

Umugore uri mu murima w'amashu aho afite umupira ari kugenda ayavomera kugira ngo abashe gukomeza kumererwa neza ntiyicwe n'izuba, maze azamuhe umusaruro ufatika.

Ahantu mu gishanga hakunze kuba hari uburyo bugiye butandukanye bifashisha bari kuhira imyaka yabo, aho ahantu hateye imyaka haba harimo amahombo menshi bakayafungura akagenda yuhira iyo myaka yabo.

Umuntu uri mu murima we w'intoryi ndetse n'amashu, aho afite umupira w'ubururu, akaba ari kuhira ibihingwa bye kugira ngo bitaza kwicwa n'izuba maze bikamuhombya, ubu ni buryo bwiza bugezweho.

U Rwanda rufite imisozi myinshi cyane igera mu gihumbi, ariko hari umusozi umwe uriho amavu bigaragara ko ayo mazu yubatse mu manegeka, asakaje amategura ndetse hagiye hateyeho n'ibiti bitandukanye.

Icyanya gihingwamo ibihingwa bigiye bitandukanye bigaragara ko ari ahantu hatereye ndetse hakurya hari imisozi myinshi ndetse hateye n'amoko agiye atandukanye y'ibiti birebire.

Mu masambu agiye atandukanye, cyane cyane ahantu mu mibande, haba hagiye harimo ibihingwa bigenda bitandukanye, harimo kandi n'amoko agiye atandukanye y'ibiti ariko ibi biti bikaba bikurura imvura ndetse n'umwuka mwiza duhumeka.

Amazu menshi agiye atandukanye ndetse asakaje amabati hakurya, hari imisozi myiza cyane igera muri irindwi iteyeho ibiti byinshi bigiye bitandukanye bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Ahantu hari umudugudu uhinzemo ibigori ndetse hari n'ibiti byinshi cyane bigiye bitandukanye, hari na nimero nyinshi, zigaragaza inyuguti ya A zigiye ziri aho hantu.

Agasozi keza cyane kagiye gateyeho amashyamba, aya mashyamba rero akaba ari ingirakamaro kuko abasha kudukururira imvura ndetse n'umwuka mwiza duhumeka, ibicu birasa umweru ndetse n'ubururu.

Ahantu hagaragara neza harimo udusozi tugiye dutandukanye bigaragara ko harimo ishyamba, iri shyamba rero rikaba rifite ibiti binini bizana umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bahaherereye.

Ubworozi bw'inka ni kimwe mu bintu bimaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho Leta y'u Rwanda yashishikarije abaturage, kujya bororera amatungo yabo mu rugo kugira ngo hirindwe kwangiza ibidukikije.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane, aho ubu ngubu umuntu asigaye aba afite icyanya cyahariwe ubworozi hanyuma akazajya aragiramo inka ze, inka ni ingenzi kuko zitanga umusaruro utubutse.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere, aho basigaye badukangurira kororera inkoko mu nzu ndetse tukaba dufite ibikoresho byabugenewe bifashisha bari kuzigaburiramo kugira ngo zibashe guteza imbere umuntu uzoroye.

Umugabo ufite icyansi bigaragara ko agiye gukamiramo amata, ari imbere y'inka aho ari kuyishishira kugira ngo ituze maze abone uko akama, maze umukamo awugemure ku isoko.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane, aho inka basigaye bazubakira ahantu habugenewe bazihuriza igihe baba bagiye kuzikingira, hanyuma bakareba ibibazo runaka ziba zifite kugira ngo bazivure zikomeze zigire ubuzima bwiza.

Inka iri mu kiraro, aho iri gusa mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, ikaba iri kurya ubwatsi, iyi nka rero yambaye iherena kandi yororewe mu kiraro, murabona yuko isa neza.

Inka nyinshi ziri mu kiraro cyabugenewe, aho icyo kiraro kiba gisakaye neza kandi gihishemo n'imbaho, ku buryo inka nta ho zihurira n'ubutaka, zikomeza kwiberaho neza zigatanga umusaruro.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane aho Leta y'u Rwanda isigaye idushishikariza kubakira inka ibiraro bigezweho kugira ngo zizajye zibasha kubaho neza kandi na zo zitange umusaruro utubutse.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane, aho ubu ngubu nta muturage ucyorora ingurube ya Kinyarwanda, bose basigaye borora iza kijyambere, aho bazigura maze bakagenda bazigaburira, mu minsi mike bagatangira gukirigita ifaranga.

Ubworozi bw'ihene bumaze gutera imbere nabwo, aho Leta isigaye idushishikariza nazo kuzororera mu rugo, hanyuma tukaziragira tuzahirira tuziha ubwatsi, ibintu byo kwirirwa tuzizererana ku gasozi tukabivamo.

Inkoko nyinshi cyane ziri ahantu hamwe, bigaragara ko ari umworozi wazo wabigize umwuga wazishyize mu cyumba kimwe akajya azigaburiramo, kugira ngo zizabashe kumuteza imbere maze na asezere ubukene.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yubakishijwe ibyuma ndetse ikaba irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, iyi nyubako rero ni aho bororera amatungo y'inyika.

Ubworozi bw'ihene bumaze gutera imbere cyane aho umuntu woroye ihene na we zibasha kumuha umusaruro maze akiteza imbere akaba yakirigita ifaranga agasezera ubukene.

Inka nyinshi cyane z'Inyambo aho zifite amahembe ateze, izi nka rero ni ingirakamaro cyane kuko ziba zigaragaza umuco nyarwanda ndetse zikanateza imbere umworozi wazo.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane, aho abantu boroye inka by'umwihariko nko mu turere twa Nyagatare ndetse na Gatsibo inka, haba hari ibyanya biba byaragenewe kororerwamo bakunda kuziragiramo.

Amoko agiye atandukanye y'ibikiza, aho buri gikiza kigiye kirimo imbuto z'ubuhinzi zigiye zitandukanye, hari ikirimo soya, ibishyimbo, amasaka ndetse n'imirama.

Abagore bari gupakira imbuto y'ibigori mu mifuka kugira ngo babashe kujya kuyihunika, hanyuma igihembwe cy'itera nikigera bazabashe gutera iyi mbuto batagiye kuyitabiriza ahantu kurere.

Umugabo w'umuveterineri, aho ari kugenda asuzuma inka ngo arebe ikibazo runaka yaba ifite, uyu muntu rero yambaye isarubeti ndetse na bote n'akagofero k'akanozasuku mu mutwe, ari kugenda asuzuma inka, aho iyi nka ari nziza cyane.

Umugore wambaye itaburiya y'icyatsi akaba ari veterineri, aho avura amatungo, inyamaswa nyinshi cyane akazivura indwara zigiye zitandukanye zikabasha gukira.

Inka iri ahantu mu kiraro, inyuma yayo hakaba hari veterineri, aho yaje kuyipima kugira ngo arebe ko nta kibazo cy'imikurire ifite cyangwa icy'uburwayi maze abone kuba yayiha umuti runaka.

Abantu bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'inyamaswa cyangwa bw'amatungo bazwi nk'abaveterineri, baba bafite ubuhanga bwihariye ku buryo babasha kumenya indwara iyo ari yo yose itungo rirwaye bakaba bayivura.

Inka nyinshi cyane zahuriye hamwe aho izo zose ari inka baciye amahembe zose zikaba zambaye amaherena, eshatu muri zo zagiye ahantu mu gikomero ziri kunywa amazi.

Agacupa k'umweru karimo imiti igiye itandukanye, iyi miti rero ikaba yifashishwa n'abaveterineri aho bagenda bayiha amatungo yagize ikibazo hanyuma bakayavura akaba yakira.

Abantu biga ibintu bijyanye n'ubuvuzi bazwi nk'abaganga bakunda kwita ku bintu runaka, aho hano hari umukobwa n'umuhungu bambaye impuzankano z'akazi ndetse n'udupfukamunwa hari ikintu runaka bari kugenda batera udushinge.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, hakaba harimo abantu bagera muri batatu bambaye impuzankano z'imyeru ndetse n'udupfukamunwa n'udutunozasuku mu mutwe.

Umusega ni inyamaswa ikunze gusangwa muri parike y'u Rwanda y'Akagera, aho iba yibera ahantu ha yonyine, ntabwo ikunda kwegera izindi nyamaswa. Urabona yihagarariye ahantu ku kagina, iri kureba hakurya.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa ariko inyamaswa zizwi kandi zikaze gusumba izindi ni izizwi nk'inzovu aho aba inyamaswa nini cyane, abakerarugendo rero bashimishwa no kuzibona kuko ziba zishimishije.

Ingwe ni inyamaswa dukunze gusanga muri parike y'igihugu y'Akagera ariko ikaba inyamaswa igira amahane cyane, ku buryo iyo uyikinishije ihita igufata ku gakanu, ikaba yaguhitana ikakwirenza.

Muri parike hagiye harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, hari inyamaswa yitwa twiga aho iba ijya gusa n'ingwe kandi ikaba itinyitse cyane, hirya yayo hari ibyatsi byiza cyane bitoshye.

Hari amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, zikunze kuba ziri muri parike, izi nyamaswa rero zitwa utuyongwe, ziba ziri muri parike, zigakunda kurira ibiti cyane kandi zikamenya kwiruka.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa nk'impara ndetse n'imparage, ni byiza cyane kuhatemberera kuko tuhasanga amoko agiye atandukanye y'inyamaswa hanyuma tukishima.

Intare nyinshi cyane ziteraniye hamwe cyangwa se inyamaswa z'agasozi, zikaba zihagaze imbere y'ikirundo cy'umucanga harimo imwe yuriye hejuru, bikaba bigaragara ko aha ngaha ari muri parike.

Impyisi ni imwe mu nyamaswa zikunze kuba ziri ahantu muri pariki, zira zijya kumera nk'imbwa ariko zo zikagira umutwe ujya kubyibuha cyane, ihagaze ahantu mu mukenke aho harimo ibyatsi byiza.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, muri izo nyamaswa twavugamo nk'inyamaswa ya twiga, aho iba ijya kumera nk'ingwe kandi igira ubugome cyane.

Muri parike haba harimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye haba harimo impara ndetse n'imparage n'intare n'izindi, aha rero intare iri kuzomera imparage irashaka kuyirya, imparage na yo iri kugerageza gukizwa n'amaguru.

Inzovu ni zimwe mu nyamaswa nziza cyane nini kandi ziba zishimishije, aho umuntu wese usuye parike ntayinindi nyamaswa aba yifuza kubona uretse inzovu, kubera ukuntu ziba zimeze neza cyane.

Hari inyamaswa zigiye zitandukanye z'agasozi aho ziba ziba mu ishyamba, zijya kumera nk'imbwa ariko si zo, izi nyamaswa rero zigira urugomo cyane ku buryo ziramutse zibonyeho agatungo nk'ihene cyangwa intama, zihita ziyihitana.